Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana imibare ndetse ibi bikoresho harimo kereriyo, harimo irati, harimo ndetse na kompa yifashisha mu kwigisha abana imibare.

Ikigo cy'amashuri cyubatse, iyi nzu yubatse ku buryo igeretse kabiri, ifite hasi ifite no hejuru ndetse iyi nzu iruhande rwayo hakikije indabyo kandi hasi yayo hubatse urugo rw'ibyuma.

Aka ni agakoresho kaba kabumbatiye ibindi bikoresho biba bikarimo imbere, byifashishwa mu kwiga imibare ndetse haba harimo irate, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima cyangwa mu gukora cyangwa kwiga imibare.

Ibikinisho by'abana bitatu byicaye hamwe, ibi bikinisho bibiri birasa ndetse ibi bikinisho bibiri birimo bifite byose imitima, iruhande rwabyo hari ikindi gikinisho kimwe cya gatatu gifite ibara ryihariye ridasa n'iry'ibindi bikinisho bibiri.

Imibare ishushanyije mu tuzeru tubiri dutandukanye umubare umushushanyije mu kazeru kanditseho ca undi mubare ushushanyije mu kazeru kanditseho da muri utwo tuzeru hagiye harimo imibare itatu itatu ndetse no mu mibare aho duhurira harimo imibare itatu itatu.

Akabati gafunguye, ko mo imbere harimo ibitabo ndetse inyuma yako hamanitse itangazo riranga ikintu ndetse kari n'ahantu mu nzu, yubakishije amadafari.

Ikigo cy'amashuri gifite n'ikirango kivuga ngo ikaze ku kigo cy'amashuri, iki kigo cy'amashuri inyuma yacyo hari ishyamba ndetse hari n'indabyo no muri iki kigo cy'amashuri imbere muri cyo hari n'indabyo.

Ikigo k'inshuke cy'abana iki kigo iruhande rwacyo kiriho indabyo ndetse hari indabyo hari umuhanda w'igitaka utambuka kuri iki kigo, ndetse impande z'uyu muhanda hari ibyatsi inyuma yacyo hari ibiti hejuru.

Umumama uri gukina n'abana umupira wambaye imyenda isa, aba bana, bambaye imyenda isa bose kandi bahetse ibikapu bisa, ari gukina na bo iruhande rwabo hari ibiti bibakikije, aho bari gukinira ndetse hari n'ibyatsi.

Igikapu cy'ubururu kirambitse ku meza, gikoze mu ibara ry'igipupe, gifite amabara y'umweru n'amaso y'umukara, aya mabara akoze kuri icyo gikapu yometseho.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bahagaze bambaye amashati y'imyeru ndetse abandi bambaye imupira, muri bo bamwe muri bo bambaye imupira kandi bahagaze hamwe bose.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bose bambaye imyenda isa n'udupfukamunwa dusa, bafite imashini, bari gukora mu mashini, bafite amazi ateretse ku mata ku meza bicayeho, barimo bose bareba mu cyerekezo kimwe, bareba muri mashini zabo bafite.

Abanyeshuri bahagaze iruhande rw'amashuri yisumbuye, aya mashuri ntabwo yari yubakwa neza ngo yuzure ndetse aya mashuri iruhande rwayo hari gukorerwa intebe, aya mashuri barimo baranayavomerera ndetse hari n'ibiti iruhande rw'iwayo.

Abanyeshuri bari ku murongo bose bahagaze ku mirongo imwe bahagaze mu bice bitandukanye ariko hari n'abambaye imyenda igiye isa harimo itsinda ryambaye imyenda isa ukwayo hakabamo n'abandi bambaye imyenda isa ukwayo bose bari kureba hamwe.

Abanyeshuri benshi bicaye ahantu hamwe kandi bambaye imyenda isa n'inkweto zisa, ahantu bari harubakiye ndetse hari n'abatara ari kwaka, imbere yabo hari ameza ariho indabyo.

Ubwiherero bwubatse ahantu hari ibiti bibukikije ndetse ubu bwiherero bufite ikigega gifata amazi mu gihe imvura yaguye, ubu bwiherero bwubakishije amatafari, busakaje amabati.

Abanyeshuri babiri bicaye hamwe umwe afite amakayi arimo arandika undi nawe afite amakayi aricaye ariko arimo arareba imbere, aya makaye yabo ari ku kabati, bicaye ahantu mu cyumba hateye umucanga.

Abanyeshuri bari hanze y'ikigo cy'amashuri, ikigo gikikijwe n'ibiti ndetse n'indabyo na pasiparumu, aba banyeshuri barimo barakina ndetse hari na mwarimu wabo, uhagaze iruhande rw'ishuri yambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe kandi kinini, harimo abahagaze ndetse n'abicaye, aba bantu imbere yabo abicaye bafite amazi ndetse bafite n'ibitabo hari n'abafite imitobe yo kunywa, aba bantu harimo abamama n'abagabo, bose baricaye ariko hari n'abahagaze inyuma no hagati no ku ruhande.

Abantu bicaye bambaye udupfukamunwa, bose bicaye ku ntebe zimwe, umwe afite igitabo n'ikaramu arimo arandika, bambaye inkweto, iruhande rwabo hateretse icupa ry'amazi ndetse ahantu bicaye hari na sima.

Ni inama iri kubera mu cyumba cyagutse iri kuyoborwa n'umuntu wambaye umupira w'umukara, hari abagabo, hari abagore ndetse bose baricaye usibye abantu babiri, uyoboye inama n'undi uhagaze ku ruhande rwe, ni abagore n'abagabo bari muri iyi nama kandi abenshi biteretse amazi imbere yabo bicaye ku ntebe zisa umukara zifite n'ibara ry'ubururu.

Umuhanda muto ujya ku nzu y'umuturage, uyu muhanda uzengurutswe n'indabyo nziza nyinshi kandi z'ibiti, iruhande rw'izo ndabyo hari ibyatsi, uyu muhanda uragenda ukagera ku nzu ndetse uyu muhanda uriho n'ibiti birimo imiriro y'amashanyarazi ndetse muri uwo muhanda hahagazemo abantu.

Uyu ni umuhanda usa nk'aho ujya mu ngo z'abaturage ukikijwe n'indabyo nyinshi ndetse ukikijwe na jaride nyinshi, iruhande rwawo hateye ibiti ndetse ari kugendamo n'abantu bava muri izo ngo hari indabyo nyinshi ni mwizateyeyu ubwuzu kuko ufite indabyo nyinshi ziwukikije.